Abayobozi bicaye mu nama, harimo abagore n'abagabo n'umuzungu, imbere hari imashini ya HP, hari ameza arambitseho igikapu, harambitseho n'amazi, bicaye ku ntebe z'umukara.

Abayobozi bicaye ahantu muri sitade hari irange ry'ubururu n'iry'umuhondo, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, hari umugore wambaye rinete z'umukara n'ipantaro y'umukara yifashe ku kananwa.

Abaturage bari mu nama ari benshi bicaye ahantu hameze nk'agasitade, harimo n'umupolisi w'inyenyeri yambaye imyenda ya polisi, hari umu mama imbere yabo uri kubaganiriza wambaye ishati itukura afite mikoro mu ntoki.

Abantu bari mu nama, imbere yabo hari abakobwa bafite imashini, imbere yabo hari ameza ariho agatambaro k'umweru, hateretseho amazi, abantu bicaye muri saro, bazengurutse bakoze umuzenguruko.

Abayobozi bicaye mu nama harimo abagore n'abagabo, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umukara, hariho imashini ndetse n'amakayi, hariho n'amazi.

Abaturage bari mu nama, bicaye ku ntebe, bubatse itente, umuyobozi ari imbere arimo kubasobanurira, hirya hari inzu iriho ikigega.

Abaturage bari mu nama, harimo umugabo w'umusilamu wambaye akagofero, bicaye ku ntebe z'umukara, hari n'abandi bari imbere n'umuyobozi wambaye ikote ufite mikoro, uri kuvuga, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'Akarere ka Gasabo.

Abayobozi bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara, hariho abagore n'abagabo. Ku meza hariho amacupa arimo amazi, hari n'amacupa arimo ji abateretse imbere.

Abakobwa n'abahungu benshi bambaye imipira ya jampa, bari ahantu bicaye ari benshi, hari tapi y'umutuku, hari ibyuma, hejuru hasakaje ibindi byuma n'amabati, ku nkuta hari abandi bahagaze, hari irangi ry'muhondo.

Abayobozi bicaye bazengurutse bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara, harimo abagore n'abagabo imbere yabo hari ameza asize verine ajya gusa n'umutuku hari imashini kumeza harambitseho amacupa y'amazi.

Abagabo bicaye mu nama bicaye mu ntebe z'umukara harimo bambaye amakote n'abandi batambaye amakote, hirya hepfo hari indi meza hafi y'ahantu ibirahure biri, hariho amarido ajya gusa n'umutuku.

Abantu bicaye muri sare iteye amarangi y'umweru, iruhande yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru, hari n'amazi abari imbere, harimo umugabo wambaye agapira k'umweru ufashe mikoro urimo kuvuga, hari n'abandi bagore bamuri impande.

Abagore n'abagabo bari mu nama, bicaye ku dutebe tw'ibyuma dusa n'umweru, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru, hateretseho amazi n'impapuro, hari umugore uhagaze imbere wambaye ingutiya y'umutuku n'agapira k'umukara, afite mikoro mu ntoki.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe z'umweru, hafi yabo hari ameza barambitseho telefone, hari amacupa y'amazi imbere ku meza, ku nkuta hari icyapa cyamamaza.

Umugore uri imbere, uri kuganiriza abaturage, yambaye ikanzu y'ubururu, yambaye isaha ku kaboko, afite ikaramu mu ntoki, imbereye hari ameza, arambitseho icupa ry'amazi.

Abaturage benshi bari mu nama, imbere hahagaze umuyobozi wambaye ikote, yambaye ipantaro ikoboyi, abaturage bambaye ibitenge harimo n'abagabo, hirya hari akazu kahubatse k'amabati y'ubururu, ibiti binini ndetse na jaride.

Abayobozi bicaye ahantu bafite imashini, hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare na rinete, ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari raputopu, ameza ariho igitambaro cy'umukara, hejuru hateretseho amazi, harimo n'umumama witandiye, hirya hari umupapa wambaye ikote ry'umukara.

Abaturage bicaye mu nama, harimo abicaye ku ntebe z'umweru b'abagore benshi, hari umugore imbere wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo ubudomo arimo kubaganiriza afite ikayi mu ntoki.

Abaturage bicaye mu nama, bicaye ku ntebe begamye, inzu nini irimo amarangi y'umweru, bicaye bose barimo kureba imbere, harimo umugabo uri kwandika, hari umukobwa wambaye umupira utukura.

Abayobozi bicaye mu nama, harimo abagore bafite telefone, imbere yabo hari ameza manini hariho amazi n'ibirahure, hari n'agasahani, hari n'abandi bicaye inyuma ku yandi matabu.

Abaturage benshi bicaye bari mu nama bicaye ku ntebe z'umuhondo, imbere yabo hari ameza hariho amazi, hariho n'igitambaro cy'umweru, imbere y'aho hantu hari hari ikibandarore cyanditseho koperative ridashipi semino bibiri na makumyabiri na kane.

Abayobozi bicaye imbere ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari amacupa y'amazi ku meza, harimo ufite imashini ya HP, bari kureba imbere kuri televiziyo bashyizemo RURA.

abantu bicaye ku ntebe harimo umusaza wambaye ikoti ry'umweru ishati yumweru wambaye na marinet hirya hari imeza yarambitseho igikapu hiryar nundi mugabo wambaye ikote ry'umukara inyuma hari nabandi bicaye Abantu bicaye mu ntebe, harimo umusaza wambaye ikoti ry'umweru, ishati y'umweru, wambaye na marinete. Hirya hari imeza yarambitseho igikapu. Hirya n'undi mugabo wambaye ikote ry'umukara. Inyuma hari n'abandi bicaye.

Abaturage bicaye ku ntebe z'umweru, harimo umumasera witandiye. Imbere hari umumama uri kubaganiriza, uri imbere y'igitereko yambaye umupira w'umukara, hari n'abandi bantu bambaye bakenyeye imyenda myinshi bahagaze munsi y'ikidara.

Abayobozi bari mu nama, bicaye abagabo n'abagore bambaye amakoti, bicaye ku ntebe, hafi y'abo harapavomye, hari umugabo munini wambaye amarinete y'umukara, hari n'undi mugore wambaye ishati y'amaboko maremare.

Abantu bicaye mu nama, hari ameza ateretseho amazi, harimo umugore wambaye ibitenge bitukura n'abagabo bambaye amakote, imbere habo hari imashini, bicaye ku ntebe z'umukara.

Abayobozi bicaye mu nama imbere yabo hari ameza asa n'umukara, hari udusahani turiho n'ibikombe hateretse imbere yabo amacupa y'inzoga, harimo umugabo ufite imashini hari n'umuzungu wambaye rinete, umugabo ufite imashini na we yambaye rinete, yambaye n'ishati y'umweru

Abagore bicaye mu nama hari n'umugabo, imbere yabo hari ameza, bose bafite amakaramu n'amakaye imbere yabo, hari amacupa y'amazi n'icupa rya handi sanitayiza, bicaye ku ntebe z'umukara.

Abaturage bicaye mu nama bicaye ku ntebe z'umutuku, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru, yambaye baje, harimo n'umugore munini wambaye ikoti ryijya gusa n'umweru, harimo undi mugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara.

Abantu bicaye ku ntebe zisa n'umutuku, bari kureba imbere kuri sikirini, kuri tereviziyo bicaye hagati y'ameza, bazengurutse ameza bose.

Abaturage bicaye mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara harimo abagabo bafite imashini imbere yabo, imbere hari ameza y'umukara ateye, hariho amazi hejuru ku meza.

Abagabo bicaye mu nama harimo n'abagore, umwe muri bo ufite imashini bose bafite amakaramu n'amakayi bari kwandika, ku meza hateretseho amacupa y'amazi, ku rukuta hatereretseho televiziyo ndetse n'ibindi birango.

Abayobozi bicaye mu nama imbere yabo hari ameza barambitseho terefone, umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, yambaye karuvati y'umukara n'ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara, abandi bagabo bafite imashini zibarambitse imbere.

Abaturage bicaye muri sare harimo abazungu bicaye ku meza ajya gusa n'umukara, harimo abagore b'abazungu bari kwandika, ku meza hari amacupa y'amazi, hari n'agasahani k'umweru, hari umugabo w'umwirabura ufite telefone mu ntoki.

Saro irimo abantu bari kureba imbere, hari n'umuzungu bicaranye, bicaye ku meza, hariho amazi ndetse n'umuti wo gukaraba intoki.

Abantu bicaye ahantu muri sare bicaye ku ntebe zis'umutuku hari abantu bafashe k'idarapo barimo kurahira harimo n'abayobozi bicaye hafi yabo ku ntebe z'umukara.

Abaturage, urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, bicaye mu ntebe zitukura mu gisare kinini kirimo parafo, ku nkuta hariho amarangi y'umweru, hari n'ahandi hubakishije amatafari ahiye.

Abayobozi bari mu nama bambaye harimo abagabo n'abagore. imbere yabo hari ameza na mikoro, kuri buri muntu ameza asize irangi ritukura hirya hari amarido ku nzugi.

Abayobozi bari mu nama harimo umugabo, hakabamo n'umuzungu, hakabamo n'umugore wambaye ikote ry'umweru, na rinete z'umweru, hakabamo n'undi mugabo wambaye ikote rijya gusa n'umukara, karuvati ijya gusa n'umuhondo, bicaye bose bafite amazi.

Urubyiruko rwicaye ahantu ku ntebe z'umukara n'iz'umweru. Imbere yabo hari imashini. Bari benshi bazengurutse tebo isa n'umukara, imbere yaho ari abayobozi bahicaye harimo abazungu n'abirabura. Hariho icyapa cyanditseho buricingi digito divayidi foru impuroyimenti opotunitizi.

Abagore babiri bicaye ahantu mu nama harimo n'umugabo umwe, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hari umugore umwe wambaye ishati y'umweru afite mikoro ari kuvuga, hejuru ku meza hariho telefone, hari amacupa y'amazi ndetse hari n'ibitabo ndetse n'udukayi.

Abanyeshuri bari ku ishuri bambaye yunifomu y'umweru n'umukara, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza buri munyeshuri afite imashini ya positivo barimo kwiga.

Abagore babiri bari kuganira bari guseka umwe ahagaze imbere y'ameza, afite imashini ikata amatike undi ahagaze. Hirya wari hari icyapa cyanditseho openi akawunti, sendi mane, gati kashi, peyi bilizi.

Inzu irimo amakaro, irimo ameza, harimo agatajeri karimo ibintu, ku meza hateretseho imashini, harimo ipuritinga ndetse na desikitopu eshatu, abantu bakora.

Umunara muremure hejuru hariho anteni, ufite ibyuma biterangi ry'umutuku, n'iry'umweru, akazu hasi kubatse, ibyuma bizengurutse, umunara, w'ishyamba, ibiti binini byibyuma y'umunara.

Abagore bicaye mu modoka, umwe ari kugenda yereka undi muri terefone, umwe aritandiye mu mutwe, yambaye rinete, undi yambaye umupira w'umutuku, hirya hari undi mugabo uri kubareba, wambaye ishati y'ubururu, bose bari mu kimodoka kinini imbere.

Abana batatu bari kumwe n'undi mukobwa mukuru umwe bose bahagaze undi yicaye imbere yameza hariho amamashini ameza asa n'umukara ari n'intebe zisa n'umukara ku rubaraza rusa n'umweru.

Umuzungu wambaye ikote ry'umukara n'agapira mu imbere, ari kumwe n'umwirabura wambaye agapira mu imbere n'ikote yambaye n'akagofero bari mu nzu.

Urubuga rwanditseho online service wel ka motusi m a online servicepecial to ass thede servis ar t festime anana count to becreted andfoulte t theflog sa sevice alavilab trodis poaon

Umuhanda urimo amapave, harimo n'ibiti, hirya hari abantu bari kugenda n'undi mugore uri kuza, hejuru hari etaje nini cyane y'ibirahure bijya gusa n'icyatsi, ipoto iri mu muhanda y'amashanyarazi.

mu rubuga rw'irembo handitseho niyu savisi ono irembogove datafomo hari institusheni kategori handitseho citi ofu kigali sitaragica environomento hasi ari harimo periti to puresi eregisheni posita biri mu mabara iubururu

Inzu y'ubucuruzi, irimo imiryango ibiri ikinguye, iteyeho amarange y'ubururu, hari umugore uhahagaze; hepfo hari undi muryango ufunguye, uteye irange ry'umuhondo, hejuru ku nzu hari icyapa cyanditseho ''Irembo official agent group''.

Akazu kanditseho Equity, harimo abantu babiri b'abagore bicaye ku ntebe, hari amazi abateretse impande, hepfo ikizu kirakinguye, hepfo aho inzu iri harapavomye, hari ubusitani bunini.

urubuga rwa rwanda revenue authority hariho ikirangantego cya rwanda revenue handitseho etax sevice, handitseho log in ,tin, pasward, sign in, forget pasward na sin up.

Ibyapa byometse ku nzu, byanditseho WAKALA, hariho Airtel, hashushanyijeho umuntu w'umukobwa wisutse imisatsi, afite terefone mu ntoki, hasi ku nzu harapavomye hejuru ku nzu hatseho WAKALA, C2C.

Umunara munini cyane, muremure, hejuru hariho mikoro, hari n'iminara ya antene, hariho ibyuma biteye irangi ry'umutuku n'iry'umweru, hasi hari akazu kubakishije ibyuma ndetse n'akandi kazu k'abasakirite kubakishije amabuye, mu imbere harimo imashini ya jenereta.

Abagabo bahagaze mu muhanda upavomye, bafite kamera abandi bari kureba muri terefone, abandi bahagaze hirya babiri bari kwihishanya, hirya hari inzu y'amarangi y'umweru, n'ay'ikigina.

Icyapa cyaditseho Airtel kiri ahantu ku byuma, hejuru hari ipoto itwara amashanyarazi, hariho n'ibindi bitsinga hejuru binini cyane, hafi yaho hari akazu kubakishije amatafari ahiye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, yambaye ingofero, ahagaze ku muryango w'urubaho hariho icyapa kuri iyo nzu, cyanditseho pasi senta kashi wivudorowa kashi depoziti girini rayifu.

Umuhanda w'amapave urimo abantu bazamuka bamanuka, imbere hari aho abagenzi bicara baruhuka, umuhanda harimo ibiti by'indabo hepfo hari iyindi etaje nini cyane iteye amarangi y'umweru, kuri folo yo hasi hariho ibyapa byamamaza.

Urubuga rw' Irembo, rwanditse intambwe ya gatatu, ihitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye, ibisabwa usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda.

Urubuga rwa RURA rwanditseho ikoreshwa rya gaze mu ngo, ashushanyijeho amacupa atatu ya gaze, iry'umutuku, iry'ubururu, n'iry'umuhondo. Hejuru handitseho: "hitamo icupa bitewe na gazi ukenera kandi ugenzure ko barikugejejeho rihagaze kandi ritarangiritse."

Ikibaho gishushanyijeho uruziga rurimo ubuso bwumweru rwanditsemo furi wayifayi insayidi kurubaho ruriho irangi ry'ubururu hashinjeho icyuma ndetse n'ifotoke.

Umunara muremure cyane wubatse hagati, inyuma hazengurutsweho ibyuma mo hagati hari akazu, umunara usa n'umutuku n'umweru, hanze y'ako kazu hari ahantu hameze nk'agashyamba.

Imodoka iteye irangi ry'umweru, inyuma hari ipine, iri kugenda mu muhanda, umumotari uhagaze ukandagiye kuri moto, umuntu urimo kwambuka umuhanda yambaye ikote ry'umukara.

Inzu nini iriho amabati y'ubururu yashaje, hariho ibaraza risa n'umutuku, hepfo hari ikindi kizu kinini giteye amarangi y'umweru, hejuru hariho anteni hariho insinga z'amashanyarazi zirimo.

Umuntu wambaye ijere n'kingofero arimo kwigisha abantu, hepfo hari undi mugabo ari kwigisha wambaye agapfukamunwa hari n'umukobwa ufashe terefone ya simatifone, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ibyuma by'amapoto bibiri byegeranye bitwara insinga z'amashanyarazi hariho kashipawa, biri hepfo y'umuhanda hafi yawo hari agashyamba, hari n'igiti kinini, umuhanda wa kaburimbo unyuramo abantu.

Igipangu kinini cy'amatafari ahiye, hepfo hari inzu igiye isakaje amabati atukura hariho amarange y'umweru ku ibaraza, hepfo hari ikindi gipangu kinini, ruguru ku muhanda hari ipoto y'amashanyarazi, hepfo hari ijaride irimo ibiti bitoya.

Umuhanda wa kaburimbo, hari hafi hari ipoto y'amashanyarazi, hari icyapa cyamashusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, hari umuntu uhagaze ufite umufuka.

Abantu bagenda mu muhanda harimo umugabo uteruye umwana n'umugore uteruye umwana hirya hari igikuta cy'ibyatsi ,inyuma hari inzu iteye amarangi y'umweru hari n'indi iteye amarangi y'umweru isakaje amabati atukura hafi y'umuhanda hari ipironi y'amashanyarazi.

Ipoto iriho itara ryo mu muhanda hariho insinga nyinshi; hari icyapa cya eyateri, hirya hari igiti kinini cyane kirekire; hepfo hari ubusitani burimo umukindo, hari n'ikizu kinini cya etaje.

Mu ibishyamba mu biti, hari ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nini cyane hejuru. Umusozi munini cyane aho insinga ziri kunyura zigenda, hasi hari ubutaka

Imodoka y'umweru iparitse ahantu hafi yaho hari umuntu hepfo hari ipoto y'amashanyarazi iriho insinga, haruguru hari indi nzu isakaje amabati atukura hariho n'igipangu cy'amatafari ahiye.

Inzu ya kadasiteri isakaje amabati y'umukara, iriho igipangu giteye sima, hafi hari ipoto y'amashanyaraz,i iriho insinga ndetse n'ibiti biri hafi y'igipangu.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko utukura, gifite ubuso bw'umweru, harimo eshanu cy'umusaraba mu ibara ry'umukara, umuhanda kaburimbo urimo moto irimo kugenda n'imodoka z'umukara ziri kugenda.

Abamotari bambaye kasike n'ijire bari kugenda kuri moto hari n'abandi bamotari bari kugenda baparitse hepfo hari imodoka y'umweru hiryari icyapa cyanditseho kohereza hepfo hari igipangu cyubakishije amatafari ahinga.

Inzu nini iriho amarangi atukura hejuru hari ipoto itwara amashanyarazi, hariho insinga nyinshi cyane, hafi yaaho hari icyapa cya kanari hariho na parafu kuri iyo nzo hariho irangi ry'umweru ndetse n'iry'ubururu.

Etaje nini cyane, ifite ibyuma by'umweru, hari ibikombe birimo indabyo biteye irangi ry'umweru, n'etage ku nkuta iteranye iry'umweru, hari ipoto nini y'amashanyarazi iriho insinga hariho itara ryo kumuhanda, hari n'imodoka y'umukara.

Ipoto itwara amashanyarazi n'indi byegeranye, ruguru hari ishyamba ry'ibiti byinshi, hepfo hari n'akandi gashyamba gatoya karimo amabuye agiye atandukanye muri iryo shyamba.

Igipangu kinini cyane handitseho mitsingi, imbere yaho hariho ipoto y'amashanyarazi, hariho icyapa cya eyateri foji, hari umugabo uri gusunika igare uhetse amajerekani, hari n'undi mugabo uri kugenda, haparitse umumotari wambaye casike.

Igipoto kinini cy'amashanyarazi cy'ibyuma kiri ahantu hari umusozi, hejuru hariho insinga zitwara amashanyarazi nyinshi cyane, hari iziri ibumoso n'iziri iburyo.

Umuhanda wa kaburimbo hari ipoto nini iriho insinga z'amashanyarazi hariho n'itara ryo ku muhanda, hafi hari igiti kinini, hirya hari n'ibindi biti n'urupangu runini m’imbere harimo inzu isakaje amabati y'ubururu.

Ipoto y'amashanyarazi iriho itara ryo ku muhanda, hari ibitsinga byinshi, hafi hari icyapa cyanditseho Star times, hari icyapa cya Airtel foji, hepfo hari ibyuma bihashinze, hari n'igishyamba kinini, ruguru hari etaje iteye amarangi y'umuhondo.

Ubusitani hariho urubaho n'ibyuma by'amashanyarazi muri kaburimbo harimo umuntu uhagaze, imitaka y'abacuruza amayinite.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi ry'umutuku, hariho n'iry'umukara, hirya hariho ipoto y'amashanyarazi, iriho insinga nyinshi hari n'ikindi kizo kinini, kiri hirya giteye irangi ry'umweru, hari ikigega.

Ubusitani ku muhanda na pasiparume harimo icyuma gishinzemo kigonze, hirya hari urukuta rwubakishije amabuye, hejuru hari urugomero rw'amashanyarazi rwubakishijwe n'ibyuma byinshi cyane.

Inzu nini irimo intebe z'umukara aho bicara iteye amarangi y'umweru harimo n'amarido hepfo hari ibirahure hari n'akagare gatwara abafite ubumuga, hejuru hariho parafu muri iyo nzu.

Ahantu hari amapave haparitse imodoka ya ambiranse iteye irangi ry'umweru ndetse hariho n'ibihoni hejuru by'umutuku n'iby'ubururu, handitseho ambiranse, iparitse ahantu hari inzu nini ya kadasitara isakaje amabati atukura yubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda w'amapave munini cyane, umuhanda hejuru wubakishije ibiti, hariho ibyuma, hasakaye, hepfo hari ikizu kinini cyubakije amatafari ahiye gisakaje amabati yashaje y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo hepfo hari inzu nini, hirya hari imodoka ihaparitse iteye amarangi y'umukara ya parado, hirya hari ubusitani bunini hari n'ibiti binini cyane, hafi yaho hari inzu nini.

Ahantu hapavomye, mo imbere hagati hari ahantu hari uruziga, hubakishije amabuye n'udusikariye, hari amadarapo abiri harimo iry'u Rwanda, ndetse hari n'imodoka zihaparitse, iz'umukara n'iy'umweru ndetse n'izindi z'umutuku, hepfo hari ikizu kinini kihubatse.

Ikizu gisakaje amabati hari hasi hari ibyuma bishinze hasi harapavomye hirya hari urukuta rw'amatafari ahiye hariho n'ibyuma hepfo hari inzu nini isakaje amabati atukura yubakishije amatafari ahiye.

Abantu bari kugenda ahantu hari amapeve hari imbuga nini hirya hari imodoka eshatu ziparitse zisize amarangi y'umweru hirya hari inzu nini icyeye iriho amabati y'umutuku hari indi nzu irimo amarangi y'umweru.

Ikizu kinini cyane kimeze nk'ishuri, gifite inzugi ziteye irangi ry'umukara, hanze hari pasiparumu, hari n'ibyuma hejuru hasakaye, hirya hari kizimyamwoto ihateretse.

Abantu bicaye ku ntebe hari ameza umwarimu umwe uhagaze abandi bicaye hasi mu byatsi, hirya hari ibiti binini nundi muntu uhagaze ndetse n'abandi bantu uri inyuma ya bose abo bantu harimo abambaye imyenda y'umweru.

Ikerekezo kinini k'imfungwa hubatseho umunara ujyamo abapolisi. Ikizu giteye amarange ajya gusa n'umutuku, nay'umukara hari abagororwa hanze barimo kugenda bambaye amaroza abagore n'umugabo inyuma hari umuseriviya.

Eduwari Ngirente mu ikote ry'umukara, ishati y'umweru, amarinete mu maso y'umukara n'umweru, ikizu kinini cyane, igisare kirimo ibirahure by'umweru biteye irangi ry'umweru, hari abantu bicaye inyuma.

Ikizu kinini cyane cyubakishije amatafari ahiye, hejuru handitseho menizi wingi, hariho porotaye nini cyane iteye amarangi ajya gusa n'umukara najya gusa n'umuhondo, hari abagabo bambaye amaroza, hari n'umusoroviya uhagaze uri kubasaka.

Urupangu runini ruriho porotayi iteye irange ry'umukara n'umuhondo, hariho icyapa cyo hejuru cy'ibyuma cyanditseho gereza ya Nyanza.

Umuyobozi w'umugore wambaye ikanzu y'abacamanza y'umutuku hariho akantu k'umweru imbere umugore wambaye linete z'umweru hariho umukara yambaye ingofero y'umukara y'abacamanza.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo bicaye bose ku ntebe z'imbaho, hari mbere yabo hari umugore uri kubaganiriza ufite impapuro mu ntoki ndetse n'abo bantu bafite impapuro mu ntoki barimo kwandika bamwe.

Abagabo b'abanyururu bambaye amashati y'iroza n'amakabutura y'iroza, bamwe harimo abambaye agapfukamunwa begamye ku rukuta rw'ikizu kinini cyubakishije amatafari ahiye, hariho na kizimyamwoto hafi y'umuryango.

Abagabo benshi b'abanyururu bambaye amaroza, bambaye udupfukamunwa tw'umweru, bicaye imbere yabo hari ameza, bose bafite imashini, inyuma hari umusoroviyo ubarinda, hari undi mugabo begeranye wambaye ikote.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Abacamanza bicaye ku ntebe z'umukara bambaye amakanzu y'umukara harimo abafite imashini harimo abagororwa benshi bambaye udupfukamunwa bambaye n'amaroza bicaye nabo ku ntebe.

Imodoka iparitse muri parikingi isa n'umukara iriho icyapa cy'umweru hirya y'aho hari ibyuma bi bitetseho hejuru ikigega munsi hepfo hari jarde hirya hari izindi jarade.

Abapolisi bambaye imyenda ya polisi yo kuzimya inkongi bambaye putini, hari ibintu barambitse kuri shitingi, inyuma hari umupolisi ufite imbunda n'ikimodoka cya polisi, hahagaze abana n'abagore bambaye udupfukamunwa.

Icupa rinini rya faya egisitenguwisha riri mu mabara atukura handitseho eyi bi si pawuda hirya ryametse ku rukuta rusa n'umweru rurambitse nanone ku kintu k'intebe gisa n'urubaho.

Abapolisi bambaye imyenda ya gipolisi, n'undi mupolisi wambaye agapfukamunwa, wahagararanye n'abanyeshuri, hari n'umuyobozi wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, kizimya mwoto ziri imbere yabo eshatu.

Umupolisi uhagaze yambaye imyenda ya gipolisi, handitseho Rwanda Police, ari kuganira n'abaturage, imbere ye hari umuturage uhahagaze uri kumureba wambaye ingofero y'umukara, hari n'undi wambaye agapfukamunwa, yambaye n'umupira ujya gusa n'iroza.

Ibimodoka binini biteye amarangi y'umweru, hari abaturage bicaye bambaye udupfukamunwa, hari abapolisi bahagaze n'undi usutamye na bo bambaye agapfukamunwa, undi mupolisi yambaye ijire.

Umuyobozi wa polisi yambaye ingofero ishushanyijeho ikirango cya polisi yambaye imyenda ya polisi mo imbere harimo agapira k'umukara ku myenda ya polisi handitseho ara enipi hariho n'idapo ry'u Rwanda uri kubona ko hariho inyenyeri.

Idarapo rya PSD ririho ibara ry'ubururu, umweru n'icyatsi, mo imbere handitse mu ibara ry'umweru, handitsemo PSD, mu nyuguti z'ubururu.

Mu cyumba cy'itora perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arimo gutora, yambaye rinete z'umukara, ishati y'amaboko maremare n'urupapuro mu ntoki.

Umuyobozi ufashe mikoro, uri kuvuga , utunze abantu intoki, yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari abagabo babiri bambaye amajire n'amashati y'umweru, inyuma yaho hari imodoka nini z'umukara.

Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe z'umukara, umumama, umugore yambaye rinete, yambaye n'imikenyero n'umupira, umugabo yambaye ikositimu, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara, yambaye na rinete, imbere ku meza hari amazi.

Umusaza ufite ubumuga yicaye mu kagare, yambaye ishati y'amaboko maremare irimo ubururu n'umweru ari mu cyumba cy'itora, afite agapapuro ari kukanaga mu kabogisi gateretse ku meza batoreramo, hirya hari akantu bubakishije idarapo ry'igihugu.

Ikiganza cy'umuntu ku gikumwe hariho umuti ugaragaza yuko avuye gutora mu idarapo ry'u Rwanda ririmo amabara atatu y'umuhondo, ubururu n'icyatsi

Abayobozi bicaye mu nama, imbere yabo buri wese hari mikoro harimo umugabo ufite imashini yegeranye n'umugore w'umusiramu witandiye, bicaye ku ntebe z'umukara.

Perezida Paul Kagame yambaye ingofero na rinete z'umweru, yambaye umupira w'umukara, yambaye isaha, umupira w'umukara hariho ikirango cya FPR, afite mikoro ari kuvuga, hari umugabo umuhagaze imbere umurinda, hari n'abaturage bicaye.

Abantu benshi bahagaze ahantu hari amapave, harimo abagore n'abagabo batonze kumirongo, inyuma yabo hari ibiti by'ishyamba, hepfo hari akazu kubatse k'amabati.

Abayobozi bahagaze ahantu begeranye hari n'abandi bari inyuma, idarapo abiri amanitse, imikindo minini, bahagaze ahantu hari amapave, inyuma hari ibyatsi bya pasiparume hazengurukijwe n'urukuta rw'amabuye.

Umuntu wicaye urimo kwandika yambaye ingofero y'umweru. Hepfo hari andi meza ariho ibitambaro by'umuhondo hejuru hariho akabogisi abantu bari kunagamo. Hepfo hari undi muntu wicaye ku ntebe nawe yambaye imyenda y'umweru ruguru hari intebe z'umweru.

Abagabo babiri bari mu cyumba cy'itora umwe wambaye ikote ry'umukara n'agashati k'umweru arimo gutora urupapuro, undi ahagaze yambaye ikoti ry'umukara n'agapira k'umweru ipantaro y'umukara hepfo ku nkuta hashushanyijeho idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye rinete z'umweru n'umukara, yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru karuvati y'umukara, arimo guseka, inyuma ye hari ahantu hasa n'umweru.

Perezida wa Repubulika yambaye ishati, y'umukara na rinete z'umukara, ari gusuhukanya n'umusaza wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, inyuma yabo hari abantu benshi bahahagaze bari kubareba, n'umugore uri aho impande yabo.

Perezida wa Repubulika ahagaze ku gitereko kiriho ikirango cy'u Rwanda yambaye ikoti ry'umukara ari kuvugira muri mikoro hepfo hari abandi bayobozi bicaye hari idarapo ry'u Rwanda nirindi dararapo ry'umweru ririmo ikirangantego cy'Igihugu, hari abandi baturage bicaye mu ntebe.

Dr Philippe Mpayimana yambaye ishati y'umweru, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, inyuma ye hari undi mugore bambaye ibisa, hari abanyamakuru bafashe kamera, inyuma hari izindi modoka zihaparitse nyinshi cyane.

Abaturage benshi, perezida ari mu modoka, yambaye umupira w'umukara wanditseho FPR, amanitse akaboko, abaturage bafite amabendera, bambaye ingofero mu mutwe, ibendera ryanditseho FPR mu nyuguti z'umukara, ibendera ririho amabara y'umuhondo, y'umutuku, umweru...

Abagabo babiri bicaye imbere mu biro umwe ari kuvugira kuri mikoro, yambaye ikote ry'umukara, karuvati y'umukara n'ishati y'umweru n'undi wicaye hirya uri kwandika wambaye ikote ry'umukara, karuvati y'umukara n'ishati y'umweru.

Abayobozi bahagaze bambaye amakoti, hari uwambaye ikoti ry'umweru, ikoti ry'umukara, umuntu wicaye wambaye ijire ya MTN, yambaye ipantaro y'umweru, hari n'abandi baturage benshi bicaye hari n'abahagaze bari gufotora.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yabo hari ameza hari n'amazi, imbere yabo nanone hari umuntu wambaye ikote n'ipantaro y'umukara, wambaye ingofero ufite mikoro arimo kubaganiriza, bari mu gisare kinini giteye amarangi y'umweru.

Abagore benshi bambaye imikenyero abandi bambaye ibitenge bahagaze hejuru kuri porodiyumu, hirya hari ibiti bibakikije hejuru hirya nanone hari amapoto atwara amashanyarazi.

Ibirangantego bya FPR harimo ibara ritukura, umweru n'ubururu, ikirangantego cya PSD harimo ibara ry'ubururu, umweru n'icyatsi, irindi ni ikindi kirangantego cyo mu ishusho y'uruziga, harimo inyenyeri n'inyuguti ya PL .

Umuntu uri mu cyumba cy'itora, witandiye imyenda, hepfo hari undi mukobwa wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru, hasi ku meza hariho ikaramu n'indangamuntu, hirya hari undi mugabo wambaye ishati y'umukara, hari n'akameza kariho indobo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikimodoka gitwara mozutu, peteroli, giteye irangi ryumweru hari undi mugabo uri kugenda ku gare yambaye umupira utukura, ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Icyapa cya mitsingi kimanitse ahantu hafi y'igiti, mu muhanda hari imodoka nini itwara peteroli, kinini, hafi y'aho hari izindi modoka z'umweru ziri kuza, hari n'igare, umunyonzi utwaye umuntu ku igare.

Imodoka itwara abagenzi, ya kebiyesi, iriho irange ry'ubururu, irange ry'umweru, ibirahure by'umukara, iri muri kaburimbo, hirya hari indi modoka isa n'umukara.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, isize amarangi y'umweru, ihetse amashitingi, abamotari bari kugenda mu muhanda bacanye amatara n'indi modoka iri guturuka hirya, hakurya hari ikizu kinini giteye amarangi y'ubururu n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo harimo abamotari bambaye kasike batwaye moto, hari undi mugabo uri gusunika ikigorofani kiriho igifuka n'umugore uri gutambuka wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, imbere ikizu kinini cyane giteye amarangi ajya gusa n'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo, abamotari babiri bari kugenda bambaye amajire n'ingofero za kasike, ibiti hafi y'igipangu kinini, itara ry'amashanyarazi ryo ku muhanda.

Imodoka nini y'umweru n'ikizuru cy'umweru ihetse ibintu hejuru hariho igishitingi cy'ubururu, hari epfo hari abamotari babiri baparitse bambaye ingofero bahetse n'abagenzi bambaye ingofero.

Umuhanda wa kaburimbo, abamotari bari kugenda bari kuri moto, umwe ahetse agafuka undi uparitse, yambaye kasike n'ipantaro y'ikoboyi n'ijire, hari undi muntu umuhagaze imbere wambaye ikote ry'ubururu, imodoka iparitse iteye irangi ry'umweru.

Ahantu hari amapave menshi, mo hagati harimo igiti kirekire hateretse indobo y'ubururu, hazengurukijweho amabuye, kuri icyo giti hari akagare gafite amapine abiri bagenda basunika.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ikimidoka kinini cy'umweru hageretse umuntu wambaye ingofero y'ubudodo mumuhanda harimo umugore wambaye ingutiya y'umutuku ruguru hari umumotari uri kugenda uhetse umugenzi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini ya kebiyesi iriho amarangi y’ubururu n'ay’umweru hatarimo abantu, ruguru hari undi muntu w’umusore uri kugenda ufite ikote mu ntoki ari kuvugira kuri terefone, yambaye ipantaro y’umukara n’umupira w’umukara n'ingofero.

Imodoka iteye amarangi y’ubururu ihetse amacupa ya gaze, hariho icyapa cyanditseho esipe, ibiti binini biri ku muhanda birebire byapfutse umuhanda.

Imodoka ebyiri zifite amabara y'ubururu, n'umweru, hafi yaho hari icyapa cyamamaza, ziri mu muhanda, zirimo kugenda. Zitwaye abantu.

Ahantu hapavomye hari abamotari benshi bahaparitse bambaye ingofero, bambaye amajiri, harimo uwambaye ikoboyi ijya gusa n' umweru, ipantaro, inkweto y'umukara, umutaka wa Airtel, umu ajenti n'umugore uhagaze uri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya hari urukuta rwubakishije amatafari yahiye, harimo n'umuyoboro utwara amazi, umuhanda haparitsemo imoto ebyiri z'utuvani ziteye irangi ry'ubururu, imbere haparitse imodoka iteye irangi ry'umweru ,hirya hari ibiti by'ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ikimodoka giteye amarange y'ubururu n'ay'icyatsi gihetse ibintu, harambitseho hejuru shitingi, hirya hari ibiti binini, hari n'uruzitiro ruriho supanete.

Gare ipavomye imodoka ya tagisi iteye amarangi yumweru hariho utuntu twubururu, ziparitsemo ari nyinshi, abantu bambaye amajire, ikimodoka cya kbs giteye amarangi yubururu.

Abamotari baparitse benshi bari kuri moto bambaye amakasike bambaye n'amajire, hirya hari icyapa cya kokakora, mu muhanda wa kaburimbo hari umumotari uri kugenda harimo imodoka y'umukara n'indi y'umweru bikurikiranye.

Imodoka iparitse muri parikingi n'indi iparitse ku mapave zifite amarangi y'umweru, hakurya hari abantu bicaye, ndetse nabandi bahagaze inyuma yaho hari igipangu, hafi y'igipangu hari igiti kinini.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugabo uri kugenda yambaye ibirenge, ahikoreye umufuka wa kiro mirongo inani, hari imodoka muri kaburimbo iri kugenda iteye irange ry'umweru, hirya hari ipoto y'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo, warimo imodoka, ufite irangi ry'umweru, inyuma hashyakaje igishitingi cy'umukara, hirya y'aho hari ibiti binini byinshi byishyamba, hazengurutse ho na supanete.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abanyonzi bari kumanuka n'abandi hirya bari gusunika amagare harimo imodoka iteye amarange y'umutuku ifite ibirahuri by'umukara hejuru hariho icyapa cyanditseho Jagwari hejuru hari ibiti binini.

Tagisi vuwatiri itwara abantu, iteye irange ry'umweru, imbere harimo umuntu, hanitseho Yego Kapusi, umutaka w'umu ajenti wa MTN hahagaze umuntu, porutayi iteye irangi ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ikimodoka cya sikaniya gitwaye matera gifite irange ry'umweru, hejuru hasakaje shitingi, hari akandi kamodoka k'umweru karimo umuntu gafite ikizuru cy'umweru.

Imodoka ya kampani ya Sitera itwara abagenzi, iteye irange ry'umweru, ifite ibirahuri by'umukara, iparitse ahantu hapavomye, hariho purake yanditseho RAD umunani gatanu kabiri kiyu hirya hari abagenzi bahagaze.

Umumotari uri kugenda mu muhanda kuri moto, wambaye jire, akaba ahetse umugenzi, bambaye ingofero, inyuma hari n'undi motari, hari n'imodoka iri kuza y'umukara, hagati hari jaride, hari n'imikindo myinshi iteye ku muhanda, hari n'igitara kinini ku muhanda.

Imodoka cya hoho kiri mu muhanda kigenda gifite amarangi y'umutuku ku kizuru hasa n'umutuku, mu muhanda harimo umuntu uri kugenda ku igare, imbere hari guturuka umumotari uri kuri moto.

Ikimodoka kinini cya howo gifite amarangi y'umutuku kukizuru no ku kibeni inyuma umuhanda wa kaburimbo urimo abagenzi babiri bari kugenda umwe yambaye ijire w'umugore.

Ikimodoka kinini gihetse igitanka inyuma cyumweru n'ikimodoka cy'ikizuru gisa n'umweru, inyuma hari indi modoka y'umweru ntoya ya tagisi n'umumotari uri kuza, bigeze aho abanyamaguru bambukira, hari n'ibyapa bitambutsa abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uri mumodoka y'umutuku iteye amarangi y'umutuku nini, inyuma itwikije shitingi ibiti birebire bipfutse umuhanda ari byinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ikimodoka kinini giteye amarange y'ubururu, inyuma hariho ibyuma, hari n'indi modoka iri kugenda iteye irange ry'umweru n'indi iri kuza.

Ikimodoka kinini cya Howo giteye amarangi atukura, inyuma ku kibenura hariho amarangi atukura, gihetse umucanga hejuru hariho shitingi, umunyonzi utwaye igare yambaye umupira w'umutuku ibiti binini.

Imodoka ya tagisi vuwatiri, iteye amarangi y'umweru hariho ikirango cya Yego kapusi iparitse, hirya hari indi modoka y'umukara nayo iparitse ikurikiranye n'indi y'umweru, hafi hari igiti kinini gitwikiriye izo modoka.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo umunyonzi utwaye umugenzi, harimo n'umumotari wambaye ijire ahetse umugenzi kuri moto bose wambaye kasike, hirya hari ikimodoka kinini cya sikaniya cyaparitse, hari n'indi modoka y'umweru irimo kugenda hari n'umumotari wa...

Imodoka nini igenda mu muhanda iriho amarangi y'umweru, inyuma hariho igikontineri giteye amarangi y'ubururu, ruguru hari umuntu wambaye umupira n'ikabutura urimo ugenda inyuma y'imodoka hari umumotari utwaye umugenzi wambaye ingofero hepfo hari ishyamba.

Umuhanda w'amapave, harimo abantu bari kuzamuka n'abandi bari kumanuka, hari ibiti byubusitani ku muhanda ruguru hari aho abantu bicara baruhuka, hariho abantu bicaye harimo n'udutebe twubatse, hasakaye ruguru hari iki etaje kinini cyane kimanitseho ibyapa byamamaza.

Aho abagenzi bicara bari kuruhuka harimo abagenzi hubakishije ibyuma hariho n'intebe bicayeho mu muhanda harimo abantu bari kugenda hirya hari ikizu kinini cya etaje giteye amarangi y'umuhondo hejuru hariho n'ikigega.

Abantu bicaye ku muhanda munsi y'imikindo mu mikindo hari pasiparume hari n'akantu, intebe bicaraho hari abagabo babiri bambaye ingofero, harimo uwambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara bari kugenda, hari n'abandi bagabo bicaye barimo uwambaye umupira w'umuhondo.

Akayira kari mu mapave atukura hino hari ahantu hari ibara ry'umukara, harimo ruhurura mu imbere, haruguru hari pasiparume nyinshi cyane ndetse ahantu harehare mo hagati harimo igiti giteyemo.

Inzu ebyiri zifatanye, zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati atukura, zizengurukijwe n'ibyuma, inyuma y'ibyuma hari ibiti by'indabo bihateye.

Ikibuga bakiniramo futuboro gishushanyijemo imirongo, kirimo n'ibyatsi harimo abagabo bambaye imyenda ya siporo bari muri siporo, inyuma hari ibiti byinshi cyane hubatse n'inzu iteye amarangi y'umweru.

Ikibuga kinini kidapavomye, hirya hari imodoka y'umweru iparitse, hirya hari ikindi kibuga imbere y'aho hari ibiti, ikibuga gishushanyijemo imirongo, hirya hari ikindi kizu kinini kihubatse.

Ikibuga cya basiketi harimo amarangi y'umutuku n'ay'ubururu, hirya hari ishyamba hari n'utujaride, hepfo hari akazu kahubatse kazengurukijwe n'igipangu cy'amatafari ahiye, hirya yaho hari amabuye.

Sitade, ikibuga kinini kiriho amatara, harimo pasiparume, hari akayira kazenguruka kariho amapave, hirya hari inzu yubatse, isakaje amabati, harimo ikibuga cya basiketi, hari n'amazamu ya basiketi.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku, gifite ubuso bw'umweru, mo hagati harimo ikirango mu ibara ry'umukara, ikirango kiriho agafureshi kareba iburyo.

Umuhanda wa kaburimbo, aho hari icyapa kiri ku cyuma cya mpande eshatu, hari umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru, mo hagati hashushanyijemo akantu karimo amatara, itara ritukura iry'umuhondo ndetse n'iry'ubururu.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, gifite ubuso bw'ubururu harimo ikirango gifite agafureshi kareba iburyo kari mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiri mu ishusho y'umuzenguruko, mo imbere harimo irindi bara ry'umweru. Harimo igare risa n'umukara haciyeho umurongo utukura.

Icyapa kiri mu ishusho y'umwashi mo hagati hasa n'umuhondo, harimo ikindi cyapa cy'umukara, hirya inyuma y'icyapa hari mpandenye hagati hose hasa n'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko utukura, gifite ubuso bw'umweru, hashushanyijemo imodoka ihetse igikotineri mu ibara ry'umukara, bakishijemo umuronko utukura.

Icyapa cya mpande enye gisa n'umuhondo kizengurukijweho n'irindi bara ry'umukara, mo hagati kigaragaza yuko aho hantu hanyura bahanyura bazengurutse, hirya yaho hari ishyamba n'ibiti byinshi.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko, no mu ishusho y'ubururu n'umweru, ubuso bw'ubururu, imbere hari mo kirango cy'udufureshi tubiri ;kamwe kareba hejuru n'akandi kareba ibumoso, hariho...

Icyapa cya tarapeze mu mpande enye zicuyuramye, hariho umuzenguruko w'ibara ry'umukara, ubuso bw'umuhond, mo imbere harimo icyapa cy'agafureshi hariho n'akandi kamanuye byo mu ibara ry'umukara.

Icyapa cya mpande eshatu, kiriho umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, harimo ishusho y'agafureshi kareba iburyo, gasa n'umukara.

Icyapa cya feruje harimo amabara y'umutuku, ay'umweru ndetse n'ay'ubururu, icyo cyapa gifite ibara ry'umukara, hari n'ahandi hantu hajyamo imibare yaka buwisi.

Icyapa kinini cyo muri mpande enye kizengurutswe, n'ibara ry'icyatsi harimo inyuguti ya P mu ibara ry'umweru rishushanyijeho imodoka ya kwasiteri mu ibara ry'umweru n'uburu.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku, gifite ubuso bw'umweru, harimo igishushanyo gishushanyije kigaragaza udusozi mu ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo abantu bari mu muhanda hafi ya jaride hejuru hari insinga z'amashanyarazi, hari icyapa kibuza ko ibinyabiziga binini bitemerewe kuhanyura.

Umuhanda wa kaburimbo uri i Muhanga district hari ibiti binini cyane, abaturage bahagaze mu biti bari kureba amasiganwa y'amagare ari kunyura muri uwo muhanda wa kaburimbo, hepfo hari indabyo zihateye.

Icyapa kiri ku muhanda cya mpande enye, kizengurukijwe n'ibara ritukura, inyuma hagati harimo irindi bara ry'umuhondo rya mpande enye, hagati harimo ikirango cy'umukara hirya hari ibiti.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu muzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, harimo ikirango cy'umukara kirimo utubara tw'umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu.

Icyapa cy'uruziga gifite umuzenguruko w'umutuku, harimo n'undi w'umweru, gifite ubuso bw'ubururu, hacishijemo umurongo w'umutuku, uva ku ruhande rumwe ujya ku wundi.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru, mu imbere hariho umuntu ushushanyijemo ufite igitiyo uri kuyora ibintu by'ibitaka birunze ahantu, igishushanyo cyambaye bote.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, hagati harimo ikirango gishushanyije, mu ibara ry'umukara giteye hafi muri jaride, hepfo hari umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugabo wambaye ipantaro n'ikoti ry'umutuku imbere hari icyapa cy'uruziga kishushanyijeho umuntu uri kuri moto hakijemo akarongo hari ruguru hari igipangu kinini kiteye amarange y'umweru hari umugore ugiye kwinjiramo.

Icyapa kinini cya mpande enye gifite ubuso bw'ubururu n'iminyuguti ya pa mu ibara ry'umweru hasi handitseho tagisi. Umuhanda wa kaburimbo urimo moto zigenda n'imodoka y'umukara iri kugenda.

Imodoka y'umukara irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, igipangu cy'amatafari ahiye, hejuru hariho ibyuma hariho n'ikirango cya Airtel.

Umuhanda w'igitaka jaride umuntu uri hafi ku gipangu, igipangu cyubakishije amatafari ahiye amazu manini asakaje amabati atukura ibiti byo mu gipangu kinini.

Karitsiye nini irimo amazu ateye amarangi y'umweru ya kadasiteri asakaje amabati atukura, hari n'andi matage asakaje amabati ajya gusa n'umukara manini, hirya hari ibiti binini byinshi cyane.

Umudugudu munini urimo inzu isakaje amabati atukura inyinshi ni izisakaje amabati asa n'umweru, hirya hari ikindi gitaje kinini bari kubaka, umudugudu urimo ibiti byinshi kandi binini.

Inzu ya etaje nini, iriho amakaro y'umweru, izengurukijwe n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye, ku nzu hariho ibyuma biteye irange ry'umweru hari umuntu uhahagaze.

Igipangu kinini cy'ibyuma, imbere harimo ikindi gipangu cyubakishije amatafari, imbere yaho hari iyindi nzu ya etaje iteye amarangi y'umweru, inyuma hirya hari indi nzu iteye amarangi y'umuhondo isakaje amabati atukura, hariho urukuta rw'umweru.

Utuzu ducucitse turi mu Giporoso korodoro, hari akayira kazamuka hari n'insinga z'amashanyarazi n'amapoto yo ku muhanda, hari abantu bari kugenda hari n'imodoka zaparitse ndetse na moto.

Ahantu hapavomye hari amakaro, haparitsemo imodoka y'umukara ifite ibirahure byijimye, hirya hari akazu kubatse, hari umuntu uhahagaze wambaye imyenda y'umweru, hari na jaride.

Ikizu kinini giteye amarangi y'umukara, hanze yaparitse imodoka y'umukara, kiriho dekoderi ya kanari, hafi aho hari n'igikoni aho basorera imyotsi, hirya hari kadasiteri nini isakaje amabati atukura.

Umuhanda w'igitaka, ruguru hari ikizu kinini cya etaje, giteye irangi rijya gusa n'umuhondo, hariho inzugi n'amadirishya biteye irangi ry'umweru, kuri porotayi iteye irangi ry'umweru, hari n'ibiti byumukindo mu imbere mu gipangu.

Inzu nini ya etaje hasi hari umukindo hariho n'icyapa cya Ekwiti, hari imodoka zihaparitse z'umweru na moto zihaparitse n'abantu benshi bahahagaze, hari n'izindi modoka z'umukara zihaparitse.

Umuntu uri mu muhanda uhetse igikapu yambaye ishati y'amaboko ipantaro y'umukara afite icupa ry'amazi imodoka iri mu muhanda umu motari ubahagaze hafi yaho imodoka iri aho umumotari abanyamaguru bambukira.

I Remera icyapa cyanditseho hoteri, hariho ubusitani burimo ibiti, ruguru hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hari amatara yo kuri gate ifite hariho ibyuma, inzu iteye irange ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ku muryango hariho ibipupe byamamaza bambitse imyenda, hariho icyapa cyanditseho kiyeni kereyesheni ku muryango uteye irangi ry'ubururu. Imiryango yose irafunguye.

Abanyeshuri bari mu byicundo, bambaye imyenda y'umuhondo n'umukara, hari urukuta, bakikijwe n'urukuta rw'amatafari, hari hejuru, hariho irangi ry'ubururu.

Umuhanda w'igitaka hari ahantu haparitse imodoka za tagisi vatire zisa n'umweru, hari n'indi isa n'umukara mu muhanda harimo iy'indi modoka y'umukara iri kuza.

Umuhanda wa kaburimbo, hepfo hari inzu isakaje amabati atukura, hariho igipangu giteye irangi ry'umuhondo, hari ipoto y'amashanyarazi Kanombe, igiti kinini kiri munsi y'inzu ifite amabati atukura.

Imodoka iteye irange ry'umweru hariho n'akandi karange ku muhondo, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, igitaje kinini hepfo hari umutaka w'umu ajenti wa Emutiyeni hari moto iparitse n'umuntu uhahagaze.

Umumotari wicaye kuri moto yambaye kasike n'indi kasike iri muri moto, hepfo hari icyapa k'amashusho y'uruziga, harimo inyuguti ya pi mu ibara ry'umukara gifitemo akarongo, etaje nini irimo ibirango bya BK.

Umuhanda w'igitaka hepfo hari igipangu kimwe cy'umukara kiriho icyapa, hari n'ikindi gipangu cy'ubururu imbere mu gipangu cy'ubururu hari inzu y'amabati atukura, ku muhanda hari jaride, ubusitani, hirya hari ikigega mu gipangu.

Umuhanda wa kaburimbo ibiti binini cyane ibishyamba jaride inzu nini ya etaje irimo irange ry'umweru yubakishije amatafari ahiye hari ibiti binini cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu uhetse agafuka ku rutugu, wambaye bodaboda, hari imodoka z'umweru zihaparitse, hari umukindo n'igitaje kinini, hari ikirangantego cya foji.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka z'umweru, hakabamo n'indi modoka y'umukara, imbere hari umumotari, hakurya hari ipoto y'amashanyarazi, hari n'abantu bari kugenda, hakurya hari ikindi kizu kinini cy'ubucuruzi cya etaje.

Ikizu kinini gisakaje amabati atukura, hafi yaho hari jaride, ibyatsi, inyuma y'ikizu hari insina n'ibiti binini, hejuru hari insinga zitwara amashanyarazi, hirya hari ikindi kizu nacyo gisakaje amabati atukura.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo bibiri, harimo imodoka ya parado y'umukara n'abamotari bari kugenda. Hepfo hari ikindi gitaje kinini hariho ikirangantego cy'lnyange, hari imodoka iparitse munsi y'umweru n'izindi zigeye zitandukanye z'umukara.

Umuhanda w'amapave, hakurya hari inzu, hariho igipangu cyubakishije imbaho, harimo na kandagirukarabe iriho n'ibase, hari n'utujaride, mu muhanda harimo umumotari uri kugenda utwaye moto, hari n'umugenzi w'amaguru uri kugenda, hepfo hari imodoka zihaparitse.

Igipangu giteye irangi ry'umweru, inyuma hari inzu nini cyane iteye irange ry'umweru hariho ibirahure by'umukara, inyuma y'igipangu hari akayira hirya y'akayira hari ruhurura itwara amazi.

Imodoka nini iri mu muhanda wa kaburimbo isa n'umweru itwaye igikontineri nacyo giteye amarangi y'umweru inyuma yaho hari izindi modoka zigikurikiye hepfo hari ishyamba byinshi cyane inyuma y'amashyamba hari izindi nzu ziteye amarangi y'umweru zisakaje amabati atukura.

Inzu nini ya etage hariho ibirango bya muwa akabaho icya equit hariho rapitsuport finansing air teuting afad stade apra copeto plaza iparitse imodoka nini y'umweru i yumukara ndetse n'indi parato

Umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo bine, imodoka isa n'umukara irimo kuza, amatara yo ku muhanda, jaride ziteye, umuhanda, harimo n'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo, moto y'umumotari twaye umugenzi, igikamyo kinini giteye irange ry'ubururu hejuru ya igishitingi, ikindi gikamyo cyu'mweru hejuru hariho ishitingi, umuntu uri ku igare uari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo unyura hejuru yundi harimo ikiraro kinini hari undi muhanda hasi aho kunyuramo moto nyinshi ruguru hari jereti harimo n'ibiti hari n'abantu bari kugenda banyura muri icyo kiraro.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'ubururu igeze y'aho abanyamaguru bambukira, hari umunyamaguru uhagaze hepfo impande yaho hari icyapa cy'uruziga yishushanyijemo imodoka, inyuma hari n'indi modoka y'umweru irimo kuza.

Imodoka y'umukara, ifunze hose, inyuma hariho ipine ihagaze, umuntu agiye kwambuka umuhanda, hari nundi wambaye umupira w'umukara na moto iparitse hirya hafi y'uwo muntu ahagana ahantu hari imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'umweru, hejuru hariho ibyuma, itwaye shitingi, umumotari uparitse wambaye kasike n'ijire yicaye kuri moto, hari n'umuyonzi uparitse utwaye umugenzi hepfo hari ipironi y'amashanyarazi.

Akayira k'ibitaka kazamuka n'akandi gatambika kari hafi y'ishyamba, hari urukuta rw'igipangu kiriho umuryango w'ubururu, hirya uzamuka ugana ruguru hari ibiti by'ishyamba.

Ikiraro kinini mbere yaho hari haraparomye, imbere mu kiraro harimo abantu bari kuza hiryari moto irimo kugenda. Ruguru ya moto hari imodoka y'umweru irimo kugenda. Ikiraro giteye amarangi y'umweru, hepfo hari icyapa cy'uruziga, harimo inyuguti ya "p" icishishemo akarongo

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ziri kugenda harimo iy'umukara n'iy'umweru zikurikirana, indabo ziteye ku muhanda na jaride, hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo bine, harimo imodoka y'umutuku iri kugenda, n'abamotari bahetsa abagenzi, hagati harimo jaride, harimo ipoto y'amashanyarazi, hari n'itara ryo ku muhanda, hariho n'icyapa, mo hagati hariko imikindo na jaride, ruguru hari umugenzi uri kugenda n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ibyerekezo bine, abamotari bari kugenda mu cyerekezo cy'iburyo, bambaye kasike, bambaye jire, bari kugenda kuri moto, harimo abamotari bahetse abagenzi, hagati harimo utujaride mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka isa n'umukara, ifite amatara asa n'umweru mo hagati mu muhanda harimo jaride, ipoto ry'itara ryo kumuhanda hariho icyapa cyamamaza, haruguru hari ibiti binini, hari na jaride ku muhanda.

Ikibuga kinini gipavomye, hirya harimo imodoka y'umutuku, irimo umuntu n'indi modoka y'umweru iparitse, hejuru yaho hari ishyamba ry'ibiti, inyuma y'ishyamba hari izindi nzu ihubatse, hafi yaho y'izo modoka hari ipoto y'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'ubururu igeze aho abanyamaguru bambukira. Hepfo hari undi muhanda unyuramo, uri kunyuramo abamotari. Mo hagati mu muhanda harimo jaride ndetse n'itara ryo ku muhanda. Ruguru aho abanyamaguru banyura hari umugabo uri kuhanyura, uri kuri telefone yambaye ita...

Umuhanda wa kaburimbo, hari aho abanyamaguru bambukira, hashushanyije uturongo, ibiti binini by'ishyamba, icyapa kiri mu irangi ry'ubururu n'itara riri ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo harimo amatara hari imodoka zirimo kugenda, imwe iteye irangi ry'ubururu n'indi iri kuza, iteye irangi ry'umukara ku muhanda harimo abamotari benshi barimo kugenda.

Imodoka y'umweru ibenura iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imbere hari umumotari utwaye moto uhetse umugenzi hirya hari aho abagenzi bategerereza ibinyabiziga.

Umumotari wambaye kasike, utwaye moto, imbere hari abandi bamotari barimo kugenda, hari ibiti byinshi hepfo y'umuhanda, na ruguru y'umuhanda hari ibiti, hari na jaride za pasiparumu, hafi hari amapave ahari.